Abasore n'inkumi cyangwa se abapapa n'abamama bari bitabiriye inama runaka iri kuhaba rero hari uducupa tw'amazi, amakaye n'amakaramu ndetse baranakurikiye ubona ko barikumva ibintu biri kuvugirwa aho ngaho rwose byabashimishije bari no gutanga ibitekerezo.

Abagabo ubona ko ari benshi basa n'abakuze bari kumwe n'abategarugori, bamwe bafite udukayi n'udukaramu bicaye imbere yabo ndetse barimo badika imyanzuro iri kuhavugirwa, uducupa tw'amazi bari bunywe igihe bumva bahuye n'icyaka gitandukanye.

Ababyeyi babiri begeranye umwe ubona ko ari kureba imbere, umusaza yafashe mu gahanga arimo arandika ku ikayi ye afite n'ikaramu mu ntoki uducupa tw'amazi yo kunywa kugira ngo abumva bafite icyaka bashobore kucyica cyangwa se inyota.

Inama ni ingenzi cyane kuko ziba ziga ku bibazo dutandukanye. Hano rero bariri bicaye ku ntebe z'imikara aho batereka amakayi yabo cyangwa se amakaramu na za mudasobwa n'amatelefone, babahaye uducupa tw'amazi yo kunywa kugira ngo icyakane nikibica bashe kuba bakiyica.

Umubyeyi ubona ko yitandiye ibitambaro by'icyatsi harimo n'ibindi umuyisilamukazi, yifashe ku myanyadangakumirwa, ari kumwe n'undi nawe imisatsi yari y yayiziritse ukuntu, ararangaye imbere ye hari amazi yo kunywa, n'udupapuro turiho amazina ye, na zamudasobwa.

Abasore ndetse n'abantu ubona ko bakuze, impande yabo hari umubyeyi wambaye agashati cyangwa se agakoti k'umukara, inyuma hari ibirango biri mu ibara ry'ubururu amagambo yanditse mu cyumweru n'icyatsi bivanze, bafite amazi yo kunywa abari bugire icyaka baracyica.

Abantu urabona ko bicaye barimo nama runaka, bafite ibyo bari kwigaho, ndetse bamwe bari kureba imbere bafite amazi yo kunywa, amakayi, n'amakaramu arahateretse, Intebe bicaho n'izimikara inyuma hari izindi zisa umweru zitarema abantu.

Ibintu byateye imbere abasore babonana ko ipfumba se bafite amakaye n'abakara n'imbere yabo amatelefoni bayaranmbitse aducupa tw'amazi yo kumywa za mudasobwa ziri hakurya n'abagore bahicaye bateranye no kwiga ku bintu bamiraga.

Abantu ubona ko bicaye barimo bariga ku bibazo runaka nkabategarugori bambaye imyenda y'imituku ndetse n'undi uri ku ruhande hirya urubanza bafite za mudasobwa abandi batazifite hariruduka n'udukaramu bicaranye aho bandikaho imyanzuro iri buhavugirwe bafite amazi imbere yabo icyaka nikibica barayanywa.

Umupapa umwe afite ikayi yashyize hagati y'amatako, ndetse ari gukoresha ikoranabuhanga, undi impande ye asa nkaho akurikiye imbere, abandi inyuma ni ababyeyi baravanze, bicaye mu ntebe nziza cyane z'imisego ushobora kubona ko zatwaye amafaranga menshi.

Abantu barimo bicaye mu nama bafite udupapuro turi imbere twanditseho amazina yabo kugira ngo ubasha kuvugisha undi ahita azisoma bashe kumumenya cyangwa se bamenyae uducupa tw'amazi turi imbere yabo barimo nka igihe wumva bagize icyaka.

Umusore uri kuri mudasobwa ubona ko yarangayemo, abandi bari kureba imbere ndetse imbere yaho hari uducupa turimo amazi, hari n'udusahane duto duto tw'umweru n'impapuro cyangwa se amakayi, n'amakaramu, ari kwandikamo imyanzuro ihavugirwa.

Umwari ubona ko yisimbukuruje arimo arareba ibiri kubera hariya. Yambaye umwenda w'akazi w'icyatsi, imbere ye hari abandi bagabo, gusa inyuma hari ibishushanyo mbonera by'amazu menshi asa n'amamodoka. Ubwo rero ushobora kuza nawe bakaba bagushushanyiriza ikibanza cyawe ukuntu kimeze, bakakugenera inzu cyangwa se inyubako izajyamo.

Umu papa yambaye imyenda myiza cyane inkweto ahagaze ahantu arimo arasoma ku ikayi iri imbere ye hakurya hari umubyeyi n'undi mugabo bisa naho bateze amatwi ibintu runaka biri kuvugirwa hano imbere.

Bisa nk'aho bari bari mu nama cyangwa se amahugurwa, wabivuga uko byumva. Urubyiruko rurimo abasore n'inkumi bari baje, baricaye rwose; imbere hari ameza atantseho ibitambaro by'umweru, uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse n'insakazamashusho iri kugikuta gisa umuhondo.

Abagabo bamwe baricaye hakurya abagore ni bo bicaye imbere cyane, nkurikije ndabona bafite za mudasobwa, amazi y'ibikombe ndetse kugira ngo baze kwica icyaka igihe wumva inyota ibishe, bari mu nzu ubonako ari nini cyane ameza na yo n'ibindi.

Aba papa ndetse n'abasore n'inkumi baricaye barimo baraganira ku kibazo runaka uwo hakurya ku ruhande we yumiwe inyuma yabo hari ibirahuri ariko wanyuzemo amaso hari za mudasobwa ziri ku hagaragara amadarapo y'ibindi bihugu ariko icyombashapo n'icy'u Rwanda ari imbere ndetse n'uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye bari kuganira barimo abategarugori benshi cyane abapapa bamwe banigirije amashate ndetse bambaye amakote, inyuma yaho hari urundi rubyiruko rwose ubona ko rwitabiriye inama runaka.

Ababyeyi cyangwa se papa na mama umugore umwe yicaye hagati y'abagabo bangahe babiri undi yicaye impande amakanamakaramo amazi bari kunywa igihumbi cyaka kibishe rero tujye tugerageza twumve ibintu badukorera kwako nibo batekerereza igihugu cyacu cyangwa se umugi inama batugejeje ku bakuru b'ibihugu na bakabishyira mu bikorwa.

Abagabo basa nk'aho bakuze, bafite uducupa tw'amazi imbere yabo, barimo baraganira, hakurya hari abandi bifasha ku myanya ndanga kumirwa, ameza arakeye, ndetse uri bugire icyaka arasomaho, akizibye.

Abantu ubona ko bicaye bamwe barahagaze ndetse harimo abategarugori beza cyane ubona ko bateye ubwuzu. Imbere yabo hari amezi y'umutuku ariho uducupa tw'amazi, impapuro n'amakaramu ubwo bamwe bayabitse.

Bari kwiga ku kibazo runaka ubona ko bamwe bafite za mudasobwa, ni aba papa bakuze bamwe umusatsi bawumazeho abandi basigaranye utunyogosho twiza cyane duconze neza agasatsi karinganiye, uducupa tw'amazi turi imbere yabo kugira ngo ugira icyaka bashe kuba yagafata.

Abagabo benshi ubona ko bicaye bari mu nama runaka, umwe yamananitse akaboko arimo aragira ngo atange igitekerezo ndetse hirya hari ikirango kiranzeho ama shyaka atandukanye, iryo maze kubona nirya FPR inkotanyi ari naryo riri ku butegetsi.

Umupapa usa n'ukuze rwose, umusatsi yarawogoshe, ikote rye, ishati yanigirije, yifashe mu ntoki zahuye, imbere hari uducupa tw'amazi tubiri, ashobora kwifashisha igihe yumva aboberewe mu kanwa, akabasha kuba yahanyereza.

Intebe z'imikara bicaye barebana bamwe hakurya hari abantu bari gufata amashusho n'undi musore uri inyuma, bamwe barimo baraganira bafite za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi bari kwica icyaka uwumva inyota imwishe agasomaho.

Umusore urabona ko yasokoje agasatsi ke, ndetse ku ruhande yarakogoshe, yambaye umupira ujya gusa ubururu bwijimye ukuntu, hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hari uducupa, si umwe kuko harimo n'abategarugori, babahaye amazi ngo banywe kugira ngo urambirwa abashe kuba yagira ikindi kintu yakora.

Umusore umwe rwose yifashe ku myanya ndangakumirwa arimo arareba imbere. Hari n'insakazamashusho, abandi ni benshi harimo n'abategarugori, za mudasobwa, uducupa tw'amazi yo kunywa kugira icyaka nikibica babashe kuyanywa.

Abakobwa cyangwa se abategarugori bambaye imyenda isa bose bicaye imbere, bamwe bakenyeye ibitenge, abandi bakikiye ibikapu byabo by'umukara, inyuma hari n'abandi bagabo ubona ko basetse rwose, ibitambaro by'icyatsi bihamanitse.

Umusore wambaye agashati k'umukara arahagaze, niwe ubaye nyamugenda mu bimbere, aravuze ngo reka mbaze ikibazo uno mubyeyi undi imbere kugira ngo ansobanurire, abandi bari aho bicaye ku ntebe z'umutuku, bamuhanze amaso bari kureba ngo bumve ibyo ari kuvuga.

Ku mbuga ubona ko ari igitaka ariko hahagazemo umuntu yo ku kurya hari abandi bicaye ahatwikiriye usa n'abari kumva ibihavugirwa, abaturage nabo bari kumwe n'inzego z'umutekano bamanitse ama rugo bamwe amamodoka yaparitse, hakurya hari ibigunda byiza cyane ubona ko ari ahantu ushobora gutura.

Umu papa asa nukuze ariko arimo arasobanura ibintu bitandukanye arebera ku gapapuro kari hasi imbere ye, uducupa tw'amazi turiho kugira ngo abashe kuba yakica icyaka yavanye mu rugo, impande ye hari n'undi musore rwose wasakoje agasatsi ke.

Ababyeyi ubona ko ari bane rwose, bamwe bambaye imyenda isa, undi na we bari kumwe, ariko umwe ni we ufite amazi, abandi ntayo bafite yo kunywa, telefone bazirambitse imbere ku meza ariho igitambaro cy'ubururu ndetse n'icyatsi bimanuye.

Aba papa bakuze rwose bicaye, baje mu nama runaka iri kwiga ku kibazo cyaba kibugarije, bambaye inkweto z'imikara n'ababyeyi bari inyuma yabo, intebe bicayemo ni nziza cyane urabona ko zaguzwe amafaranga menshi, bafite amatelefoni mu ntoki, abandi ni amakaye n'amakaramu.

Ababyeyi ndetse n'abantu bakuru bicaye mu nama runaka, bafite amazi imbere yabo kugira ngo icyaka kitabica, ni ay'inyange, arapfundikiye, bamwe bayasomyeho abandi ntabwo barayapfundura, rero inyuma yaho hari ingofero irinda umuntu ibyago, ikunze gutungwa n'abantu batwara ibinyabiziga bya moto.

Ntabwo ari ngombwa ko bahora batwigisha ukuntu twamenyekanisha umusoro nk'uko kino kirango kibigaragaza, ahubwo tubigire ibyacu tujye tumenya ko igihe cyacu cyageze, nyine duhita tubikora ntawe utubwirije, kubera ko tuba dushyize itafari ku musanzu w'igihugu, w'imihanda, ibitaro n'ibindi.

Bahora badukangurira kuba twafata simukadi zitubaruye tukazikuraho kubera ko hari igihe zihura n'abatekamutwe bakaba bazibyaza umusaruro ariko ni ubujura n'ubundi ntabwo ari ibyo mvuze ugasanga ni twe bafunze, gerageza rero nawe uzikureho niba uzi ko hari izo utagikoresha.

Hari ibintu bigenda bivugururwa ku rubuga rw'irembo ndetse binoroshye cyane nk'uko bigaragazwa n'iki kirango cyerekana ko, wasabiraho ibyangombwa bitandukanye, birimo uko utakatiwe n'inkiko uko utafunzwe cyangwa se waba utarakoze ibindi bintu.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda kiba kiri kudushishikariza ukuntu twajya tumenyekanisha imisoro hakiri kare twifashishije mudasobwa, rero hano ujya ku rubuga rwabo ukabasha kumenya amakuru atandukanye waba ufite ikibazo ukanabandikira nk'uko kino kirango kibyerekana.

Umuhanda mwiza cyane harakeye hafite isuku, ibiti bihateye, ibyuma, inyubako ndende zirimo umweru, ibirahure ndetse n'igicu cyangwa se ikirere kiganjemo akaruru gake, hakurya hari izindi ziteye amarangi y'umutuku, abantu baba bitemberera nta kibazo.

Irembo ni ryiza cyane, kuko twagiye tumenya ibintu bitandukanye, tukajya dushakaho uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, cyangwa se tukajya kwiyandikisha kugira ngo tuzarukorere, ni ibintu byoroshye nk'uko uyu mugabo ari kubyerekana nawe yabyikoreye ku giti cye.

Leta dushyiriyeho urubuga rwiza rwitwa irembo aho urwinjira mu kababasha kwaka ibyangombwa bitandukanye birimo ibyo kuta ari ingaragu ubutaka inkiko n'ibindi byinshi rero byaroroshye nawe wabyikorera nkukohoradushishikaye.

Abasore batatu barimo barongurana ubumenyi, babiri bafite telephone bisa n'aho bari gukoresha ikoranabuhanga, undi afite ibitabo mu ntoki yabicigati mu kwaha ndetse inyuma yaho hari amazu ateye irangi ry'umuhondo n'uduti twiza ariko hari undi uri kugaragara igice kimwe cy'umutwe cyangwa se umusatsi.

Hari urubuga leta yadushyiriyeho rwitwa irembo, aho tugenda tukiyandikisha ku bintu bijyanye no gutwara ibinyabiziga cyangwa se kuba twakwaka ibyangombwa runaka by'uko utakatiwe n'inkiko, iby'uko uri ingaragu, iby'uko wenda warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane n'ibindi.

Abanyeshuri babazananiye uburyo bwo kujya bahugura kuri mudasobwa nkuko bigaragara. Bambaye impuzankano zigizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro za kaki, bicaye ku ntebe zakozwe n'ababaji urumva ko babonye amafaranga.

Tugerageze tujye twigaragaza ku bushake ni byiza cyane ni bituma tudacibwa amande umusoro u hari n'igihe ugabanuka kubera twabikoze ku bushake rero tugerageze wa mucuruzi we nk'ibyo utanze bishobora kuba byatuma u rwanda rugera aho twifuza.

Abo twaza kuvunjishirizaho ni benshi, haba hari n'amabanki runaka ashaho guhita atubikiriza ndetse hakurya hari umusore wicaye, hanze hari intebe y'umweru, ibirango biri mu ibara ry'umutuku, ubururu, n'umuhondo, bigaragara ko bashobora kuba bacuruza amayinite.

Imina nigenzi kudufasha kuvugana n'abo mu rugo cyangwa se abo hanze y'igihugu ikaduhuza nabo tukasha kutwohereza amafaranga cyangwa tukayakira twishyura dukoresheje ikoranabuhanga n'ibindi byinshi nkuko uyu nguyu ushinze ufite ibyuma by'umutuku n'umweru ikirere nacyo gihe ni ubururu bukeye.

Tujye twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo kubera ko ni intego yacu ndetse bifasha abantu kuba bashirika ubute bagashaka gukora, nk'uko kuri kino kirango babitwerekaho, hariho uwambaye imyenda y'akazi afite n'ikayi mu ntoki ariko ni ibipupe.

Niba warashinze ahantu barira, jya ugerageza unahashyire ibintu bitandukanye bituma umuntu aza akaba yakoresha ikoranabuhanga akahaguma, arya ibindi bintu bitandukanye, kubera ko iyo ayihasanze bituma bimworohereza akazi, wenda niba afite nk'ibintu yari gutanga ku kazi ke, ahita ajyaho akabyohereza.

Umumotari uhagaze ku mpande, ingofero zirindi ibyago yazishyize mu birahure bya moto ye, impande ye hari ibirango, inyuma hari ibiti n'amazu, ndetse ubona ko yiteguye kujya mu muhanda nkuko bigaragara rwose.

Ntugakorere ku jisho nkuko bahora babidushishikariza, gerageza utange umusoro wawe ku gihe batiriwe bakubwiriza. Hano bari kukwibutsa rero ko itariki ntarengwa ari uyu munsi rero twabyikorera nawe ukanze akanyenyeri magana inani urwego.

Hari uburyo bwaje rwose rero butuma bavuga ngo mubyikore namwe ku giti cyanyu kuko murashoboye. Upfa kuba ufite ikintu gikoresha ikoranabuhanga cyangwa se ugukanda akanyenyeri magana icyenda n'icyenda, urwego, ugahita ubona ibyo ukeneye, kuko uriya umugabo na we barimo barabimwereka.

Batuzaniye gahunda yo ku irembo nyine idufasha kuba twashaka ibyangombwa bitandukanye, birimo kwiyandikisha kugirango tujye dutwara ibinyabiziga, kuba twasaba guhindurirwa amarangamuntu amafoto ariho nk'uko uyu musore arimo aragaragaza ko yaragiye kuri polisi gushaka uruhushya rw'agateganyo.

Leta igashimira abantu basoze cyangwa se ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kikavuga ngo wowe niba warabikoze neza tuguhengere inte gerageza nawe ube muri ba nyamugenda bu b'imbere kugira ngo ejo utazafatwa haciwe amande kuko hari igihe ushobora kukubona ariko ejobundi warashimiwe basaze neza bakakubabarira.

Tujye tugerageza dutange amakuru ku gihe nk'uko bigaragazwa n'Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kubera ko iyo uyatanze bidufasha kuba twakubaka imihanda, amashuri, ndetse n'abakene batishoboye bakabasha gutangirwa mitiweli, kuko ibyo byose ni leta y'u Rwanda ibikora.

Ibiti ni byiza kubera ko bifasha ubutaka kuba bwaguma aho buri, ntibwimuke cyangwa se ngo butemmba igihe haje amazi, bikurura imvura, biduha akayaga, hano rero birahari. Ku muhanda hari insinga z'amashanyarazi ndetse n'amazu, hakurya ubonako hatuwe rwose.

Mu rwego rwo kurinda ibikoresho byawe n'inzu yawe, ushobora gushyiramo aka kantu kubera ko igihe umuriro uje ari mwinshi cyangwa se hari ibyenda gushya, gahita gakupa ugasanga bimwe ntabwo byangiritse. Tugerageze rero duhe ibintu byacu agaciro kubera ko nta wabigaha atari twe ubwacu.

Ibiti ni ingenzi kandi bidufasha gutangira umuyaga ibi bikaba bitakangiza ibintu byinshi byaba n'amahuhezi bifata ubutaka ndetse n'ibyatsi, ni ku muhanda hari imodoka ziri gutambuka ruguru ndetse n'amamoto, ubwo rero inyuma ho gato hari n'inzu iteye irangi ry'umweru.

Yagize ati tujya tubungabunga ibikorwa remezo twagezeho twakorana hari ibyuma bihazitiye insinga ziri hejuru ishobora kurira nabi zikagutema umunara muremure rero utuma twahamagara mu rugo nawe akagahamagara tuwohereza amafaranga.

Ku muhanda haratambuka ibyabiziga bitandukanye, ibyuma by'umweru bizitiye ahantu runaka, igiti kihateye, ubusitani buri ku mpande bufasha ubutaka kugira ngo hatazatenguha, hakurya hari inzu ifite ibirahure bijya gusa ubururu, ndetse hari n'ibiti bihateye nyine imbere, hari n'abacuruza amayinite.

Inzu ndende ubona iteye amarangi hejuru hateyeho iminara hasi hari amatara n'amapoto ajyana insinga z'amashanyarazi ku baturanyi cyangwa se abaturage. Hari ibirango byerekana ibihakorerwa.

Igipangu cyiza cyane ubona ko kiraho amadirishya y'icyatsi yanitseho ishati, hakurya hari indi nzu ifite irangi ry'ubururu ndetse n'ibiti, amapoto ari kunyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ni byiza ko buri muhanda wajya ugeraho itara kugira ngo nibwira tujye tumenya uko dukandagira n'aho tugenda, kandi nawe utwaye ikinyabiziga utegetswe kujya uyacana ihihe ugenda. Ibi ni ibiti rero biri inyuma yaho, ndetse byiza cyane bituma hasa neza.

Kigali isukuye umuhanda mwiza cyane ubona ko uri ya mubyeyi arimo arawukubura, afite umweyo, inyuma ye hari abandi bari kugenda batambuka, umumotari nawe arazamutse imodoka nayo iri inyuma ye, amazu ateye irangi ry'umutuku wagira ngo habere ubucuruzi hakurya.

Amapironi adufasha kwambutsa insinga azijyana ahandi. Urugero akava nka Rusizi akagera i Kigali. Hari igicu cyiganjemo ubururu ndetse n'umweru, hasi hari umusore n'ibiti bihateye bizana akayaga igihe gahushye.

Umubyeyi rero ahagaze ku muhanda afite umufuka, ibasi, ndetse yambaye umwenda urimo ubururu n'umweru, ahetse igikapu, hakurya hari ibiti bigaragara ko ategereje kugira ngo ikinyabiziga kize kimutware.

Abari babiri ubona ko bari baje kwigurira amanite, umwe uyacuruza nawe arimo arabafasha ababaza imyirondoro kugira ngo ayohereze. Ni ku muhanda rero w'igitaka hirya hari inzu zifite amabati ubona ko yatonze ivumbi.

Abanyonzi Ubona ko ari babiri, umwe aririho undi ari kurisunika ndetse n'abagenzi bari gutambuka gusa twibuke ko amategeko y'umuhanda, bano babarwa nk'abanyamaguru. Hirya hari ibiti ndetse n'umuhanda uzamuka werekeza ahantu runaka biterwa n'aho uba ugiye.

Ku muhanda tuhategera ibinyaziga bitandukanye kugira ngo bibe byatuvana hamwe bitujyane ahandi. Uyu mubyeyi uhagaze afite ibasi y'umutuku n'ikarito ndetse n'umufuka. Hirya hari ikirango kiri mu ibara ry'umutuku cyangwa se umuzenguruko ndetse n'ahanditseho umubare mirongo ine, ubwo bivuze ko ari umuvuduko utegetswe, mu biti byinshi cyane utabasha kureba neza.

Umuriro ni ingenzi. Hari gahunda yo kugenda iwugeza no mu biturage, ahantu heza cyane. Rero izi ni insinga ziwambutsa. Igicu kirimo umweru mwinshi cyane ni wo wiganje, amazu ari hasi hari ibirango by'umuhondo biriho icupa.

Ibiti ndetse n'insina zumye amakoma yazo hasi hari inzu ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'irange ry'umweru, amabati yayo asa n'akuze n'igicu wagira ngo imvura igiye kugwa nkuko bigaragara ndetse n'insinga zambukiranya zijyana umuriro kuri buri rugo.

Inzu ubona ko zifite amabati asa nakuze asa umuhondo, abandi yabaye umutuku, hakurya ni ku misozi, urahitegeye urahabona hari ibiti bishinze bifashe insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'indabo ziteye ku ruhande n'utwatsi tugiye dufashe ubutaka.

Urupangu ubona ko harimo inzira ihita irwinjiramo mu imbere hariya mu cy'umukara, hakurya hari igikuta cy'amabuye kirekire, ibiti bihari ndetse n'uturabo duteye imbere ho gatoya tw'umutuku n'utundi tureture. Hakurya hari ahantu hitegeye umujyi rwose wareba ukishimira.

Ku muhanda neza cyane, hari utubuye tw'umukara n'umweru, ndetse hari ibyatsi biteyemo ipoto, rifite insinga zigiye zigakora mu butaka, igipangu giteye irangi, hakurya hari amabati y'umutuku, ndetse n'inyubako babamo zegeranye mu biti.

Indabo ni nziza cyane ndetse n'ubusitani kuko bituma ahantu hasa neza, hakaba hakifotorezwa n'abantu batandukanye, hakurya yaho hari amazu ubona ko atuwe, afite amabati y'umutuku, ateye amarangi y'umuhondo n'andi ateye ay'umweru ikirere urabona ko gisa nabi wagira ngo imvura igiye kugwwa.

Hari abapironi ku bayazi nyine ni ibyuma biba bigiye biterateranyije, bifashe insinga bakabasha kuba bazambutsa, bazijyana nko mu kandi karere, kubera ko ni kure ntabwo bazinyuze hasi zakwangirika, rero iyi niyo iteye ahantu mu bibanza birimo ubutaka, cyangwa se ibiti n'igicu gikeye.

Abantu benshi cyane ubona ko harimo n'abamotari ariko baragaragara imitwe cyane cyane hariho ibirango by'amabanki atandukanye, birangwa n'amabara y'icyatsi y'ubururu n'imodoka zihahagaze z'ibikamyo bitwara imicanga, amabuye, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibyo kurya ni ingenzi biradutabara ndetse bitugirira umumaro nkuko tubizi, hano rero hari abambaye imyenda y'akazi y'umweru bipfutse kugira ngo badatamo amacancwe ndetse bari kugaburira abaturage barimo ababyeyi n'abana.

Amakaro meza ariko hari amwe yarimbutse nk'uko bigaragara hakurya hari udutebe abantu bicaraho, ibyuma biri hejuru, inzu zubakishije amatafari ahiye, meza cyane, zigiye ziteyeho ibirango kuri buri muryango, hari umwe ufunguye hari n'idafunze.

Imbangukiragutabara nk'uko yitwa ni naryo zina ryayo rwose ikorera ku gihe biragaragara rero iri kure mu mabara y'umutuku, ndetse n'umweru n'amatara hejuru agenda amyatsa kugira ngo ibinyabiziga bindi biri imbere bitange inzira.

Inzu ndende ubona ko zicuciranye, hasi harimo bya bintu bizana umuyaga mu imbere igihe wumva ushyushye urabicana bikikaraga, ndetse hateye amarangi y'umweru harimo amatara, waza rero ukiberamo kandi harakeye haranahendutse.

Ahantu hasashe amakaro ubona ko hicaye ababyeyi bakenyeye ibitenge bamwe banasinziriye bafite impapuro n'amakaramu barimo barandika, nkurikije uko bigaragara bisa n'aho ari kwa muganga inzugi zirafunze nta muntu uri gukoma cyangwa ngo agenda agende.

Ku muryango urabona icupa ryiza cyane ry'umutuku ribafasha kuba bazimye umuriro igihe uhafashe, amakaro meza cyane y'umukara ateye irangi ry'umuhondo, amadirishya n'inzugi birafunguye bari gucuruzamo ibintu bitandukanye ariko narindi kureba neza n'udukarito tunini tw'umweru tuba dufunzemo imiti.

Hari imbangukiragutabara zihagerera ku gihe nkuko yitwa gutyo gusasi ifite amapine mashya iracyabibona ndetse irasa umweru amagambo an yanyijijesho ri rimwera ry'umutuku ndetse n'akabararagaciyemo harimo ubururu bukeya amatara hejuru cyangwa se ahuruza igihe iyo habaye ikibazo runaka i reroyita ikinyabiziga ndakumirwa aho kibona ahubwo yugi inzira.

Ahantu heza cyane ariko imvura isa nkaho imaze kugwa kurera neza hari inzu z'amabati atukura ndetse n'ibyapa biharanga. Hakurya hari ibiti byiza cyane, ubusitani, ibyatsi bifata ubutaka, indabo z'umuhondo, n'ibigega bibika amazi.

Ahantu heza cyane harashashe ntaho wahurira n'icyondo, hari ibyuma bihashinze bifashe amabati ku buryo udashobora kunyagirwa ugendeye hano hagati, hari utubuye twiza dutuma hasa neza, amarangi y'umuhondo, amabati y'umutuku, ikirere kirimo ubururu bukeya ndetse n'agacu k'umweru.

Amabuye meza cyane atuma ahantu bashyira imodoka hataba habi ndetse inyubako ifite ibirahure, igeretse inshuro nyinshi, wayinjiramo, ukaba kuba wajya guhaha nkurikije uko mbibona nyine hanze hari imyenda ndetse n'imodoka z'umutuku zihahagaze.

Umva gusa n'ukuze mbona ko agasatsi ke karinganiye yaricongesheje ndetse biramubera yambaye imyenda y'imituku irimo umweru n'umukara ubana rero asa nk'uwunganira abandi mu mategekobaye, urengana barakureganura.

Mu nkiko ni ahantu habera ibintu bitandukanye ukaba washinjwa cyangwa se ukarenganurwa bitewe n'ibyo wakoze, tugerageza tujye twitwara neza twirinde amakosa kuko iyo bakujyanye mu igororero ugaruka umeze neza ariko nta muntu twahashimira ko yahajya.

Umupapa udasa n'ukuze, ubonba ko umusatsi yawumazeho afite isuku mu maso rwose, ndetse yambaye imyenda y'imituku, igaragaza ko aba ngaba bunganira abantu mu mategeko, waba urengana bakakurenganura rwose.

Leta y'u Rwanda igizwe n'amabara atatu ariko higanjemo n'izuba, harimo ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, uriya muntu wambaye imyenda y'umutuku urifasheho arimo ararahira ko azakorera igihugu cye n'umutima we wose kandi atazabera abantu cyangwa agarye ruswa.

Hari igihe ushobora kujya ahantu runaka Bakazagusaba ruswa cyangwa se bakavuga ngo nutanga ruswa tuzagufasha kuba watsinda bintu bitandukanye, gerageza igihe gito ukora ngo wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira icyo agusaba bakwizeza ko kuzagufasha kubona ubutabera ugerageza rero umenye ubwenge.

Warakoze ibyaha ni ngombwa kubihanirwa cyangwa mu rukiko bakagusomera urubanza rwawe rwarangira ugataha, waba utsinze nyine wabaye umwere, ariko utatsinda bikaba ibibazo, uyu rero wicaye hagati wambaye imyenda y'iroza na we ari kumwe n'abantu.

Umupapa ubona ko areba neza, afitemo inzobe imwe y'abagabo nyine ndetse umusatsi we urogoshe ariko ntabwo bawumazeho urakeye, yambaye ikanzu y'umutuku ndetse ivanzemo akabaro k'umweru, bigaragara ko ari umunyamategeko cyangwa se arenganura abantu barenganye.

Ku bamuzi bamwita Kizito Mihigo, yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi z'icyunamo cyane cyane, rero hano yari ari gufungwa cyangwa ari mu bagororwa, azira ibintu runaka tutabashije kumenya, ntabwo twafata amakuru yose ku gihe ngo tubashe kuyabwira abantu ahubwo tujye tumenya duke kubera ko iyo umenye byinshi urabizira.

Abaturage bicaye mu twatsi, barimo baraganira ariko umwe arahagaze, abandi bari imbere, bisa n'aho bari kumubaza ibintu runaka se cyangwa ari kwiregura, bari mu biti bitandukanye, aha rero nkurikije ukuntu mbibona, ni kera hari hatarubakwa inzu mberabyombi.

Iyo ukoze ibyaha urabihanirwa nk'uko tubizi rwose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero wicaye hagati wambaye imyenda y'iroza arimo arashinjwa ibintu bitandukanye. Ntabwo twabasha kumenya ibyaribyo ariko yicaye hagati y'abantu bamwunganira mu mategeko.

Yambaye imyenda cyangwa se impuzankano ya gisirikare y'igihugu cye afashe ku idarapo, ibara ry'ubururu ndetse umuhondo, icyatsi ariko andi ntabwo ari kugaragara amanitse akaboko arimo ararahira kazakirndai n'umutima we wose.

Ntawundi muntu wese aho ava akagera agomba kutagira uburenganzira bwe, aha rero hari abagororwa bicaye ahantu runaka barimo barareba nyine insakazamashusho imbere yabo harimo umukobwa w'giputa cyubakishije amatafari ahiye.

Umugabo ubona ko asa n'ukuze, afitemo igikara kitari cyinshi agasatsi gakeya, yambaye amakanzu y'umutuku higanjemo utuntu tw'umweru, ibi rero bigaragaza ko ari abantu bunganira abandi mu mategeko nyine.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, arimo arasuhuzanya n'umuntu cyangwa se tumwite umucamanza mukuru, ni umudamu ariko impamvu mvuze gutyo nuko yambaye imyenda y'imituku n'ingofero iriho utuntu tw'umuhondo.

Umu papa ubona ko umusatsi yarawogoshe ndetse afite isuku mu maso no ku mutwe, yambaye imyenda y'imituku inyuze n'akantu k'umweru bigaragare ko ari abantu bunganira abandi mu mategeko wenda niba urengana bakakurenganura niko kazi kabo.

Abasore babiri bambaye imyenda isa, inyuma hari ababyeyi bicaye bifashe ku myanya ndangakumirwa nabo ndetse n'abagabo muri rusange, hari urugo rw'imiyenzi haratwikiriye kugira ngo izuba ritabica, rero ubwo abantu bakunda kuba bameze gutya ni ababa barakoze ibyaha bashyizwe imbere y'abantu kugira ngo cyangwa se abaturage babakatire urubakwiye.

Ahantu hasa neza cyane nk'uko bigaragara, hari abantu bambaye imyenda y'imikara irimo utuntu tw'umweru, abagore n'abagabo ndetse barahagaze, bifashe neza. Ku bantu babizi rero bino bigaragara ku bantu bakunda kuba bunganira abandi mu mategeko.

Abantu bambaye imyenda y'akazi ubona ko bari kwigisha umwana w'umukobwa ukuntu bazimya umuriro bakoresheje bya bicupa, bimwe biwurinda. Rero isafuriya yari imaze kwaka, ubona ko igiye kuba inkongi y'umuriro. Rero bahita babigisha ukuntu bashobora kuwuzimya. Ni abanyeshuri bari guha ubumeyi.

Imodoka itwara abantu bashinzwe umutekano wo mu muhanda, ubwo ni iya polisi iri imbere, inyuma hari indi nanone y'umweru, hakurya hari aba motari benshi, imitaka, n'amazu y'amaduka nyine bacuruzamo ibintu bitandukanye.

Umupolisi uri hakurya aba ari kureba abakora amakosa mu muhanda kugira ngo ahite abahana cyangwa se baca amande, hari n'abantu rero bari kumutambuka imbere, bamwe bifite udushakoshi bari kuva mu kazi abandi bari kugenda bataha.

Umupolisi ugenzura umutekano wo mu muhanda, yambaye imyenda y'akazi cyangwa se impuzankano, arimo arareberera abantu bambuka nyine baciye mu tuyira twabugenewe n'abanyonzi, hakurya hari imodoka ndetse n'ibindi.

Amacupa asa umutuku ubonaka ari meza cyane, ni menshi afite ibihombo by'umukara biva ku minwa yazo, ibi rereo nibyo bizana ibyuka bigatangira kuzimya ahantu hari gufatwa n'inkongi umuriro ku bigo by'amashuri mugomba kubitunga, insengero n'ahandi.

Nk'uko uhoraho bidushishikariza umunsi kundi twakwirinda ndetse tukabasha gushyira ibyo dutetekerezaho ahantu runaka uyu mubyeyihere rero barimwigisha ukuntu habaye hafashwe n'inkongi ahita abizimya yifashishije ibyo yiyoroza inyuma ye hari abandi nabo bari kureba bakiga.

Hari abantu dutunze ibikoresho bavuga ko tujyana n'igihe ariko ugasanga yahabaye ikibazo ntago bazi kuba barwana nacyo, ano rero ni amashyiga batekeraho bifashishije ibikomoka mu mwuka cyangwa se gaze hariho amasafuriya iri kwaka bateretse ku meza babereka uburyo bazimya umuriro mu buryo bwihuse kugira ngo batwike ibintu byinshi.

Umugozi muremure usa umutuku, ubona ko usa neza kandi utabarira igihe. Virido ugomba kubura ahantu hatandukanye kugira ngo, ahari gushya cyangwa ahafatwa nikongi, wirukankane uhazimye.

Inzu nziza cyane ubona ko igeretse inshuro nyinshi, imbere yayo hahagaze imodoka zitandukanye. Ibyatsi biri hano ndetse n'ibiti. Ikirere na cyo kirimo ubururu bukeya n'igicu cy'umweru, ushobora kuhaza rero bakakugira inama.

Amacupa abarizwa kwa muganga y'umutuku nk'uko bigaragara afite ibirango by'umukara ndetse yifashishwa mu kuzimya umuriro igihe ahantu hafashwe n'ikongi bitunguranye, akabasha kuba yarinda ubuzima bw'abantu bari aho ngaho, ibigo by'amashuri rero bigomba kuba biyafite insengero n'ibindi.

Ahantu hakeye cyane, urabona hakurya hari n'amamodoka menshi amwe asa umweru n'umukara, hashinze amadarapo ndetse n'akazu keza gahari ubonako gafite ibirahure bitandukanye, bigaragara ko ari ahantu hakorerariye inzego z'umutekano, cyangwa se z'igihugu runaka cy'u Rwanda

Hari ahantu bakunda kutujyanira ibirara byatumye byirirwa byiba abantu batandukanye nko kuri polisi, hano rero urahaza bakagukorera urutonde rw'ibyaha wakoze, babona ari ngombwa kugukatira cyangwa kukujyana ahantu runaka mu igororero ugahita ugenda. Hari amarangi meza rero ndetse n'uturabo bisa na ho bari kugenda bashaka gutera ubusitani.

Ni byiza ko twajya twirinda guteza inkongi y'umuriro kuko biradufasha cyane reba nk'iyi mipira ni miremire y'umutuku abandi bambaye imyenda y'akazi barimo barayikurura bohereza amazi ahantu ariko akanacumba imyotsi nk'uko bigaragara mu biti ubwo babivuze ngo ni ishyamba ryari rihiye.

Amatafari ashashe hano rwose hakurya harimo imodoka n'inzego zishinzwe umutekano mu muhanda, zikunda kwandikira abakoze amakosa n'ibindi binini bitwara imizigo akazu kariho amabati n'ibyuma gasakaye ndetse n'abantu barimo hagati.

Ababyeyi bakenyeye ibitenge, bamwe bafite ipapuro bari kwamamaza uwitwa Mpayimana Philippe wagerageje kuba yahatanira umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ariko ntibyamuhira atsindwa na Paul Kagame.

Gutora ni ingenzi nkurikije ukuntu ndi kubibona hano bari ku murongo ni abasore n'inkumi, abakecuru bakenyeye abandi bambaye amakanzu, inzu barimo ziteye inkingi ziriho uturabo, amadirishya y'ubururu ndetse urabana ko ari ibintu bisa neza cyane bagiye gutora uwo bashaka.

Umukuru w'igihugu rwose, Paul Kagame, yambaye agashati keza kajya gusa umutuku ari gusuhuzanya n'umubyeyi ku bamuzi yitwa Louise Mushikiwabo, inyuma hari ikirangantego cy'u Rwanda, bakikijwe n'idarapo ry'igihugu cyabo.

Abagabo bane n'abagore bari inyuma bisa naho bari kurahira, undi ntago ari kugaragara neza ariko nawe arahari bakoresheje indahiro yabo bavuga ko batazigera bahemukira igihugu cyangwa bakigambanire bafashe ku idarapo akandi kaboko bakamanitse.

Umusaza ubona ko akasheshe akanguhe, ameze neza atwaye igare, ariko abana n'ubumuga pe. Arimo aragerageza gutora rero agapapuro yakoreyeho arimo agashyira mu isanduku yabugenewe, kugira ngo baze kubara amajwi.

Umusore yasokoje agasatsi kiwe, imbere ye hari indangururamajwi, amanitse akaboko k'iburyo, afashe ku idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda, bisa naho arimo ararahira indahiro imwemerera kuzakora inshingano ahawe neza, kandi adatezwe.

Abantu ubona ko bari bitabiriye, inyuma yabo hari amazu ndetse ageretse meza ateye amarangi y'umweru, amadarapo ahamanitse bamwe bari gufotora impande yabo hari ibiti byiza cyane, ikirere na cyo kirasa ubururu ariko kirimo agacu k'umweru.

Amashyaka ari mu Rwanda ni menshi ariko iriyoboye ni FPR inkotanyi ari naryo riyobowe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, hano rero bari bari kumwamamaza rirangwa mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari imbere y'abantu cyangwa se imbaga nyamwinshi arimo arabaganiriza ibintu bitandukanye anababwira intego bagomba kugeraho mu mwaka batangiye ubonako ari byiza cyane.

Amatara meza cyane amurika igihe bwije, ndetse ni na menshi atonze umurongo, iyi nzu harimo intebe ubona ko ari nayo nini, harimo abantu batandukanye bari bitabiriye inama, hari abanyamakuru bari gufotora bamwe, abandi bari gufata amajwi.

Ni intwari y'akataraboneka kubera ko yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi na magana icyenda na kane Paul Kagame ayikoze rerora asatira mu byicaro bye yambaye neza nk'uko bigaragara inyuma hari imbaga nyamwinshi abantu bari bamukurikiye bamufana.

Abanyamashyaka menshi ayoboye ariko iriri ku butegetsi yiyitwa FPR inkotanyi rikaba rihagarariwe n'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame hano rero ntago nzi neza niba ariwe sindi kurebaneza ariko amabara arabigaragaza.

Tora Kagame kiriya kirarango ubona kubonana niko kivuga, rero mwarya ubururu ku gipfunsi ruhagariye ishyaka ryafpr inkotanyi ari naryo ryahagaritse jenoside abamotari bari kwitambukiramanuka bajya mu kazi gushaka abagenzi gu gusamwa ari wenyine na nta ngofero afite i ya kabiri iyo yambaye n'inka yonyine.

Umukuru w'igihugu Kagame Paul ni we ukiyoboye kandi yagerageje ibishoboka byose akora ibyiza gusa ; ririya ni ishyaka rye FPR inkotanyi ari na ryo ahagarariye naho abagore bateze ibitambaro.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda arimo araganira n'abantu, cyane cyane harimo urubyiruko ubona ko ruraseka rwishimye, imbere ye hari agacupa k'amazi y'inyange n'ibindi bintu bihateretse nyuma hari abandi bayobozi batandukanye bicaye bisa naho nabo baje bamuherekeje.

Iyo igihe cy'amatora kigeze buri umwe wese agenda aga ahabwa agapapuro, akajya mu mwiherero agahitamo ubundi akaza agashyamba mu agasanduku kabugenewe, ako kari inyuma yabo bari babiri bambaye imyenda y'imikara n' imipira y'imyeru, bisa naho barimo baramanika ikintu runaka tutabasha kumenya.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse y'umweru, ubona ko yakase ipine ireba ruguru. hakurya hari umusore uhetse igikapu, wagira ngo aje kuyinjiramo yicayemo umuntu mo imbere n'uyitwaye cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga nk'uko abanyamategeko babyita.

Imodoka y'umweru, irimo ibintu inyuma ariko utabasha kumenya, hakurya hari ikindi gice cy'umuhanda kinyuramo izimanuka, ariko gitangiriwe n'ibyuma, inyuma yayo hari abamotari bari kuza bayikurikiye, na ho impande hari akayira k'abanyamaguru batambukamo na bo.

Ingorofani ikozwe mu biti, umusore arimo arasunika yambaye imyenda y'akazi y'ubururu ndetse ari kubisikana n'imodoka y'umweru n'umukara, irimo iramanuka, hirya hari abantu benshi cyane, ubona ko wagira ngo bari baje kwihahira ibintu runaka mu isoko.

Umupapa rwose arimo arisunikira akagare kiwe keza cyane, ari kubisikana n'ababyeyi bamwe bitandiye ibitenge, hari undi musore uri imbere yabo afite igikapu, hasi hari utuyira twiza cyane dushashe, ubirebye abamotari barimo barazamuka bajya mu kazi.

Ibiti ni byiza cyane kuko biduha imvura cyangwa se bikamo ubuhezi ku bayazi moto yapakiye ibintu yanyuje ubushitigi hejuru hakurya hari umusore si umwe ni babiri begamye ku ipoto n'imodoka iri kurenga.

Abanyonzi bakunda gukora akazi kabo neza. Ugasanga baragutwaye ariko ntibakarenze amasaha yagenwe n'inzego z'umutekano wo mu muhanda kuko iyo bagufashe igare bararijyana. Uyu umusore na we ni ko kazi akora, imbere ye hari amamodoka menshi, apakiye n'andi apakiye. Ni ku muhanda nk'uko bigaragara.

Amatafari ashashe hasi cyane ibyuma bihari ntabwo nzi ngo bikora iki, imodoka nayo ihagaze ku ruhande gatoya aho zabugenewe zose, ntawamwandikira cyangwa ngo akoze ikosa, inyuma hari amazu meza y'umweru ari gusa yose.

Imodoka ifungishije shitingi y'ubururu ndetse izirikishije imigozi, ifite amapine yose akiri mashyashya, inyuma hari ikindi kintu kigenda gikubura hasi, hakurya hari abamotari ariko batari kugaragara neza, ni benshi, birunze ahantu hamwe n'abanyonzi batwaye amata ku igare.

Ibintu bitandukanye tujya twirinda igihe dutwaye cyangwa se badutwaye dukoresha amakosa nk'abandi imodoka y'umweru ndetse isa umuhondo ni iyitwara abantu ku giti cyabo cyangwa se mukayikodesha ikabavanamwe ibajyana ahandi ariko kuyisikana n'izindi rero.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko urimo imirongo icagaguye n'idacagagaye uba wemerewe kunyurana hano kuriya iri hagati abamotari bose bahetse abagenzi, hakurya hari igipangu cy'umweru, ibiti n'amatara acana n'ijoro igihe bwije.

Umunyonzi atwaye ibintu byinshi bitandukanye, mu mufuka w'umuhondo hasi n'undi uregetse, hejuru hari undi munini muremure ubona ko ashobora kugwa ukamugwa hejuru hakurya hari imodoka n'undi wambaye imyenda y'akazi isa icyatsi, akazu ko bacururizaho amayinite.

Amazu meza cyane ubona ko afite amabati asa n'akuze, ikimodoka kikoreye ibintu ariko barengejeho shitingi y'ubururu isa n'ishaje, umunyonzi uri kwitambukira impande yacyo, hakurya hari ibindi binyabiziga biri kuzamuka bigenda.

Umusore yitwikiriye igitambaro arimo aragenda. Hakurya hari amotari benshi bahagaze bamwe bacanye n'amatara n'ibindi binyabiziga nk'imodoka, amazu na yo ari kwaka hejuru, amatara na yo ari kumurika burije nk'uko bigaragara, hakurya hari umusozi usa umukara.

Imodoka ifite ibyuma bishyi hejuru harimo amakarito mu imbere n'imifuka y'umuhondo ndetse n'iy'umweru, imbere hari ikindi kinini bya bindi bijya hanze rero hakaba hari n'icyapa kireba abantu batwara ibinyabiziga cyerekana ko bitemerewe kubahagarara.

Umuhanda haba habera impanuka ariko nta kundi ni ko iyi si imeze, bamwe barapfa abandi bakavuka. Izi ni mote rero ihetse umugenzi ndetse indi iri hakurya yikorera imizigo, n'inzira iri ahantu hazitiye hari igitambaro cy'icyatsi, mo imbere harimo imifuka y'umuhondo bari gushyira mu kimodoka kinini.

Umujyi wabaye mutoya kubera ko abantu babuze aho batura, ndetse n'ibinyabiziga biri kugenda bibamo byinshi, bimwe bikajya bibura aho bihagarika cg se bikuriramo abantu. Aba rero ni abamotari baba bategereje abagenzi, hakurya hari inyubako nziza cyane igereretse, iyo bita kwa Rubangura ku muntuhazi.

Moto nziza cyane ubona ko iriho akantu kazamuye gashinze nk'agakoni k'umutuku, inyuma hari intebe nyinshi cyangwa se zifite n'ameza bicaraho, igare ryegetse ku gikuta, n'undi musore ari kumanuka.

Imodoka ndende nuko iriho shitingi hejuru y'umweru irimo irabisikana n'umumotari n'umuyonzi ndetse hakurya hari iyindi iriho abantu hejuru barimo barayishyiramo imifuka y'umuhondo.

Imodoka yagenewe gutwara imizigo iyivana hanze iyizana mu Rwanda cyangwa se ikayijyana Tanzania, Uganda n'ahandi rero ha kiri mu muhanda, hakurya hari ikindi kiri kumanuka, ibiti byiza cyane n'andi mamodoka menshi moto mato, agendaho abantu ku biti byabo.

Umusore rero yafashe umwanzuro afata umwenda wakazi avuga ngo ngiye kujya nsunika ingorofani ntwaze abantu imizigo nkuko bigaragara, hakurya rero hari abamotari bambaye imyenda y'akazi n'ingofero zibarinda ibyago igihe bakoze impanuka.

Imodoka zitwara muburyo bwa rusange zabaye nyinshi cyane kubera ko ntabwo tugikererwa cyangwa se ngo dute umwanya, nk'iyi ngiyi rero iri mu ibara ry'umweru harimo imirongo y'icyatsi iciyemo. Harimo abantu baruzuye uri kubibona iri kubisikana n'indi nayo ntoya iza imanuka n'iza izamuka.

Hari ibikamyo binini cyane bidufasha kuba byatugereza ibintu biremereye iwacu, nk'amatafari amwe aba akoze muri sima cyangwa se ibindi bintu bitandukanye tutabasha kwikorera, rero iki ngiki nacyo urabona gisa nk'ibara ry'umutuku kiri kubisikana n'ikindi cy'umukara, hakurya hari biti byiza cyane bikeye bibereye ijisho.

Hari ibinyabiziga byagenewe gutwara abagenzi n'ibintu muri rusange, ariko ino yo itwara imizigo nka kiro jana, cyangwa se inyuma y'ayo urabona ko hari abandi bari kuhaturuka, impande ye hari umusore wambaye ipantaro y'umutuku, wifashe mu mayunguyungo.

Imodoka ubonako ishinzeho ibyuma by'umutuku mo imbere harimo shitingi, hakurya hari izindi bari gushyiramo imifuka y'umuhondo n'umweru ndetse impande yaho hari abantu bicariye bamwe abandi bari kugenda nibo bafasha kuba babishyiramo.

Imodoka y'umukara nziza cyane iteganye na mota itwara imizigo irimo umugozi mo imbere ndetse nyuma yaho hari abagenzi, mu muhanda harimo imirongo y'umweru, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Rero ya misoro dutanga niyo ikora ibi byose mubona bino binyaziga biri kugendamo.

Moto itwara imizigo iri kuzamuka hariho nimero ushobora kumuhamagara, ubaye umukeneye ngo nawe aze akwimure, umunyegare nawe ari kuzamuka, ahetse abana babiri, umwe ari kuri telefone, hakurya abantu bari gupakira imifuka y'imihondo.

Imodoka ngufiya ikunda gutwara imizigo itandukanye ndetse y'umweru, iri kwigendera mu muhanda inyuma yayo hari abamotari bahetse abagenzi ndetse n'ibindi binini cyane bitwara ibintu biremereye bijya mu mahanga.

Imodoka nini cyane ubona ko ari nziza ndetse nyuma irafunguye, munsi yaho unyujijemo amaso urabona imifuka ihateretse. Irasa ubururu, hakurya hari ibiti ndetse n'insinga zirikotambukamo.

Imodoka y'ubururu ndende iri kubisikana n'umusore wambaye ingofero wagira akora mu byuma bisya ubugari nkurikije uko mbibona, arimo arazamuka rero hakurya hari ahandi bari gupakira imifuka y'imihondo nyine isa n'aho bagiye kuyijyana mu ntara cyangwa se mu bindi bihugu.

Ibiti byiza cyane bikeye nk'uko bigaragara, amatara aracana igihe bwije igipangu giteye irangi ry'umweru, umumotari ahetse umugenzi barimo barazamuka berekeza aho bagiye.

Umumotari yambaye umwenda w'akazi ndetse n'ingofero imurinda icyago igihe akoze impanuka, moto yicayeho n'inziza cyane irasa umutuku, hakurya hari ibiti bihateye, igipangu ndetse n'amazu ubona kasa neza.

Imodoka itwara abantu buryo bwa rusange nk'uko bigaragara, nta muntu urimo uretse umutwaza wayo gusa cyangwa se umuyobozi, ariko unyujije akajisho mu idirishya hari uwambaye agapira k'ubururu, ni umugenzi uri kumanuka n'amaguru, yegereye itara ricana nijoro igihe bwije.

Ibiti ni ingenzi kuko bifata ubutaka bikaba byadufasha ku bintu bitandukanye hano rero hari imodoka iri gutambuka y'icyatsi ihetse imicanga iyijyanye ahantu bari kubaka ubwo murahita mwumva nyine icyo bikoreshwa haba umubyeyi ntawari kwirukan ubona ko ari gusiganwa n'igihe bagira ngo yakererewe.

Ibiti ni byiza cyane kuko bidufasha gutangira imiyaga cyangwa se za nkubi nyinshi ziba zije kwangiza, hano hari amamodoka y'umutuku, n'umukara, n'umweru. Abamotari baparitse ku mpande imirongo icagaguye, yerekana ko abanyamaguru bagomba kuhambukira amatara acana n'ijoro igihe bwije.

Akanyabiziga kikorera ibintu bitandukanye karimo karamanuka, hejuru hari shitingi y'umukara, ndetse gafite ibara ry'ubururu, amapine arasa nabi wagira ngo kanyuze mu byondo, hakurya hari abana begamye, ku itara ricana nijoro igihe bwije.

Ibigaragara nkuko bisanzwe kuko bidufasha ibintu byinshi bitandukanye iyo modoka rero ifite ikintu inyuma cy'umutuku ndetse imbere ifite ikizuri cy'umweru rwemi iragenda itwaye imiziga runaka iyijyanye mu kindi gihugu hakurya hari urutambaro rw'icyatsi bazitiye muri kureba nk'abantu.

Ibinyabiziga ni ngombwa ko bajya muri izi modoka z'imituku rwose barabafasha hariya ahgaze hari amakona ikindi kiga cyo kwigiramo inyuma hari ibiti ndetse nta n'ibirabyo byinshi cyane byazamukiye ku mugonguzo.

Imodoka yikoreye imizigo ndetse nk'uko bigaragara itwikirijeho ibintu, iri kubisikana n'abamotari, inzu z'ubwubatsi zifite amadirishya y'umuhondo, hakurya hari indi nayo itwara abantu mu buryo bwa rusange iri kuza yatse amatara hejuru.

Hari ibihugu biba byaragiye bigena ahantu abantu bashobora kuza kwicara bakagwa neza bakumva akayaga, hakozwe neza cyane nko kubona hari udutebe bamwe bari kuri telefone zabo, bari kwitaba abandi barikwigendera, hari uduti dukeye ubona ko kuhifotoza ari ibintu byaguhereza ishusho nziza.

Ni byiza ko ababyeyi bajya batembereza abana babo bakaganira, rero hano baje inyuma yabo hari indabo ndetse n'ibikinisho biri mu mabara y'umuhondo, umweru, umwana aragenda akamanuka hariya hejuru akumva aranezerewe cyane.

Nyuma haragenwe kugira ngo bajye bajya barebe imipira y'amaguru cyangwa se indi mikino iri kuhabi bita dero naho bicara hari n'ibyuma bihashinze bitera amarangi y'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Abatwazi b'ibinyabiziga ni ngombwa kujya bubahiriza ibirango biri mu muhanda, iki rero kiri mu ibara ry'ubururu mu buso bw'umweru inyuguti ya P yanditsemo ngo byerekana ko ari ahantu ushobora guhagarara umwanya muremure.

Ikirango ubona ko kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'utsetandatu ryerekana ko n umuvuduko utagitswe ku bininyabiziga hasi rero hari ahandi byerekana ko nukora amakosa iki cyuma kiribugufotora kigutanga.

Iki rero ni ikintu kigaragara, nko ku bantu batwara ibinyabiziga, mugomba kucyubahiriza, rero hari pandeshatu, ubuso ni umutuku ndetse n'umuhondo byivanze, ibiti hakurya ndetse n'ikindi kirimo mirongo itandatu, ubwo bivuze ngo ni umuvuduko utegetswe.

Ikirango kira abana batwara ibinyabiziga nk'uko bigaragara kshusho yapande eshatu umuzengurukombutuku ndetse ubuso n'umuhondo harimo utuntu tubirimwe kare ruguru kandi hepfo byerekana ko ubwo ari umuhanda ubisikanirwamo irwamo

Ikirango kireba abatwara ibinyabiziga nk'uko byagenwe ndetse kimwera ry'ubururu byemeza ko ugomba gukata ibumoso bwawe igihe uri kugenda. Utabyubahirije ubwo ukora amakosa guhita bakwandikira cyangwa se ugacibwa amande.

Umubyeyi witandiye umwenda w'imbeho ndetse yambaye akajipo, afite igikapu yatwayemo ibintu bitandukanye, birimo imyenda ndetse inyuma ye hari ibirango byerekana ko ari mu karere ka Gicumbi, ukomeje uwo muhanda ariho wagera.

Ikirango kiriho abantu batwaye ibinyabiziga, nkuko bigaragara hano, hasi hari ibyatsi n'ibigori biheze, umuhanda uri hakurya, hano rero iyo bibonye, ugomba kumenya ko aho ujyiye kugera, ari aho abantu abantu bambukira, ndetse ikindi kiri hejuru ni icyerekana ko umuhanda w'iburyo urahita ubona undi ushamikiyeho.

Ku muhanda, hari amatafari y'umukara n'umweru, hasi hari ahantu hanyura amazi, n'utwatsi turi hirya gatoya, igikuta cy'amabuye kiriho ibyuma ndetse n'inkingi hateyemo icyapa, rero cyerekana ko imbere gato hari aho abanyamaguru bambukira, niba utwaye ikinyabiziga ugomba kwitonda.

Ikigo kirazatwara ibinyabiziga nkuko'uko bigaragara kiririmo ruziga rw'umutakaku rucishijemo demokato ndetse umukara nawo ugaragaza ko ari imodoka y'bwoko itwara abantu mu buryo bwa rusange itagomba kuhagaragara.

Ku batwazi b'ibinyabiziga ni bo babyumva, iki ngiki ni ikimenyetso cyerekana ko ugomba gukata iburyo cyangwa se ubwo waba ugicuritse kikakwereka ko umuhanda ukomeza, atari uw' ibyerekezo bibiri; kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abashoferi bakunda gutwara nk'impumyi ugasanga ntabwo bubahije ibisabwa cyangwa se ibirango biri mu muhanda nk'uko bigaragara hano bikererekana ko nta kinyabiziga gifite moteri kihanyura ubwo rero noneho tubonye ka dusubire inyuma cyangwa se uhindura umuhanda.

Umumotari yakoze amakosa akomeye cyane kubera ko yahagaze ahantu hari ikirango kireba abantu batwara ibinyabiziga ko batemerewe guhahagarara, hakurya hari umuhanda ukomeza rero n'umuntu uhahagaze ndetse inyuma ye hari ibyatsi binini byakuze.

Ikirango kiri mu ibara ry'umutuku ndetse umukato unyujijemo mu inyuguti ya 'p' bigaragara ko atemerewe guhagarara, ndetse bishoboke ko n'uyu muntu uhahagaze cyangwa se umumotari ari gukora amakosa akomeye bamubonye bamwandikira bakamuca amafaranga.

Ikirango cy'ikinyabiziga cyerekana aho banyura bazengurutse hakurya hari ibiti byiza cyane bibereye amaso yo kureba nk'uko bigaragara ndetse ushobora kubyubahiriza rero nawe ariko iyo ubyaze hari abagenwe kuguhana rwose kugira ngo wumve neza.

Inyubako ndende nziza cyane iri hejuru igereretse gatatu ndetse hari amamodoka amwe ari kuyisohokaho, imbere yaho hari ahantu hahagarara muburyo bwa rusange y'umukara n'abamotari bari kugenda bamanuka bahetse abagenzi.

Ubaye ufite amafaranga wagura inzu kubera ko ni ikintu kitajya gipfa guhomba noneho n'ubutaka ni uko. Nirere ifite igipangu cyiza cyane, cyubakishije amatafari ahiye, urabona ko igeretse nayo, ifite amabati y'umukara uturange tw'umweru n'ibindi...

Umuhanda aba uriho ibinyabiziga ntabwo wabura moto ku bantu baturiye, hano hari inzu nziza cyane ifite amabati y'umukara iri munsi ndetse n'ibiti bihari bidufasha kuba byakoherezamo akayaga bigatangira imvura, cyangwa se umuyaga mwinshi uza kugira ngo usenye ibintu runaka.

Nta hantu utasanga amashami ya banki runaka, ubaye ushaka no kuguza rwose wajya ugerayo, hakurya urahabona nk'uko biriya birango biri mu mabara y'ubururu bibigaragaza, ndetse n'aho ushobora kugurira moto, kandi hari n'aba motari benshi nk'uko bigaragara.

Ibiti bidufasha kuba byafata ubutaka ndetse ibidendezi ntibidutere, hakurya rero birahari amazu meza cyane ateye irangi ndetse no munsi yayo ubona ko hagiye harimo indabo zishimishije hanazitiye.

Mu muhanda hari utwuma duhari n'igitaka, hari aka mato kahahagaze inyuma yaho hari ama modoka, hakurya hari ibyatsi cyangwa se ibigunda n'amazu ahaba. Umwari nawe tugarutse inyuma gato hari uw'utwikiriye undi mutaka kugira ngo izuba ridakomeza kubamena agahanga.

Umusore wiyambariye agakweto keza, ipantaro y'umukara, bisa naho yigiriye ahantu mu bukwe, cyangwa se akaba agiye kuvumba kimwe muri ibyo, yavuze ati reka nkafotore rero nkabereke, namwe muzamenye aho muhahira no kwambara neza uko bikorwa.

Inzu nini cyane ubona ko igeretse, iberamo ubucuruzi hasi, hariho n'ibirango, amamodoka menshi arahaparitse, impande yaho hari indi bakiri kubaka ndetse iriho imbaho nyinshi cyane, ku muhanda ho hanyuraho ibindi binyabiziga bitandukanye, byaba ibinini n'ibitoya.

Inzu nziza cyane ziri ku muhanda zinafunguye, hariho umupapa wambaye agakote k'umukara n'akagofero, n'undi bari kubisikana wagira ngo barangaye, rero nkurikije ikirango ndi kuhabona wagira ngo bacuruza bisembuye.

Ibiti byiza cyane byarabije uturabo tw'umuhondo nk'uko bigaragara biriri hakurya. Imodoka na yo irimo irazamuka itwawe n'umuntu, ndetse igicu ntabwo gisa neza cyane, ariko nta mvura ikirimo, rero ni byiza ko twajya twubahiriza ibice by'umuhanda tugenewe, kugira ngo batazatugonga nk'uko hano bigaragara.

Imodoka y'umukara igana hepfo ubona ko imanutse, hirya hari ikirango kiri mu ibara ry'umutuku giteye ku ipoto ricana cyangwa se itara rimurika nijoro igihe bwije, ndetse hari n'igipangu cy'icyatsi.

Ibiti ni byiza cyane bidufasha kuzana imvura cyangwa se bigatangira umuyaga kugira ngo udasenya amazu y'abantu. Nkuko bino bihateye rero hakurya hari amazu, bigaragara ko ari mu miturire. Imodoka zitonze umurongo ziva ahantu runaka zitwaye abantu.

Munsi y'ikiraro habona amamodoka hakurya kuri uno muhanda, indi irigatayo hari ikirango cyerekana ko batagomba kuhahagarara, inyuma yacyo hateye igiti, hejuru rero naho hanyura izindi hari amatara acanye cyangwa se amurika igihe bwije.

Uduhanda tw'amubuye ni twinshi cyane ariko hano ho atangiye kugenda ashiramo hazamo udutaka, hakurya hari aho uhita uzamukira ukagenda hari imodoka y'umweru ihahagaze n'ibiti byinshi. Amatara acana ku muhanda igihe bwije, abamotari bari kwizamukira ubona ko nta kibazo bafite.

Umuhanda mwiza cyane ubona ko hakurya hari umubyeyi urimo uraza ariko hari imirongo y'umweru itambitsemo isa naho ari iyo bambukiraho abanyamaguru, imodoka y'umutuku iri kuza iyisatira, naho uriya mumotari we yanayigezemo kare, hakurya hari ibyuma rero bitangira abantu bakabasha kuba batagwamo cyangwa se ibinyabiziga.

Umumotari atwaye umugenzi, urabona ko bose bambaye ingofero zibarinda ibyago igihe bakoze impanuka, hano rero bari kuhatandumbukanaho banyura ahazengurutse, hari utwatsi tuhateye nk'uko bigaragara n'ibiti, izindi modoka nazo ziri kumanuka kandi ibinyabiziga.

Igicu ntabwo gisa neza cyane ariko kirimo umweru. Hasi hari ibiti, amatara acanye igihe bwije ariko ubu ngubu ntago bwari bura goroba. Hakurya hari imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange y'umweru, abamotari bari kwimanukira bagenda.

Hari umuhanda wagenewe n'ibinyabiziga ariko ntigiwe abanyamaguru aho bahasigiye inzira zabo abamotari bari arikomana bariya bahetse abagenzi bambutsa ingofero zirinda ibya bikozeza impanuka indete n'ikinyabiziga cy'ubururu kirikuzanwa kinini cyane nakurya hari amazubonanako hagatuwe cyane.

Imodoka nziza y'umweru ubona ko ikeye, umunyonzi ari hakurya, yifashe ku myanya ndangakumirwa, arahagaze, ndetse imbere ye hari indi y'ubururu n'abamotari bari kugenda bitambukira, hirya hari amazu y'ubucuruzi.

Umumotari arimo araza asatira imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, bisa n'aho ari bumanuke cyangwa se azamuka biraterwa n'amahitamo y'iwe, hakurya hari ibiti byiza cyane n'amazu ahubatse uri kunyuzamo ijisho ukayabona.

Ibiti bituzanira imvura bikaba byatangira umuyaga igihe runaka uje mwinshi kugira usennye amazu ariko bikawudufatira; rero hano ni mu muhanda harakeyeye hari imirongo y'umweru icagaguyemo ubona ko ari iyo abantu babanyanyamaguru bambukiramo.

Umuhanda uhaviramo ibintu bitandukanye dusaba kwitonda igihe tuwugendamo, uriya munyonzi arimo arazamuka awinjiramo, undi mu motari nawe aramanutse, hakurya hari ibindi binyabiziga birebire rwose, bimwe bijya mu Ntara cyangwa se bikaba byajya mu kindi gihugu.

Umunyonzi ahetse utumeza dukoze mu mbaho, arimo aragenda aca munsi y'iikiraro, akurikiye imodoka ihari, gusa agiye kubisikana n'indi y'umutuku, hejuru hanyura izindi hateye n'ibiti ku mpande, nk'uko bigaragara rwose, n'utuyira tw'abanyamaguru turahari.

Abanzi baciye aho gahunda yo kujyamo arasara yambaye agapira k'umweru ndetse n'inkweto hakurya hari ibiti byiza cyane munsi no hejuru hanyura ibinyabiziga.

Umuhanda mwiza ukeye, imodoka irimo iraza izamuka, hirya hari ibirango byerekana ko hari kubakwa, ibiti bihari bihateye, amatara acana nijoro igihe bwije, hakurya hari n'indi nyubako y'umweru rwose ikeye wagira ngo iberamo ibintu bitandukanye.